Impande y'umuhanda wa kaburimbo ku kayira k'abanyamaguru hari imitaka ihateye, umwe n'umuhondo wanditseho amagambo ngo emutiyene, n'aho munsi yawo hahagazemo abantu, imbere hateretse akameza kanditseho ngo emutiyene ko mu ibara ry'umuhondo, ku muhanda neza neza hari undi mutaka w'ubururu ushinze ahantu hari agasanduku n'aho hahagaze abandi bantu benshi bawukikije.

Ku kazu k'umuhondo kanditseho amagambo mu nyuguti nini ngo mobayilo mani taransifa, hasi hari ikirango cya emutiyene gahagazeho umugore wambaye ijipo y'igitenge isatuye ku ruhande irimo amabara y'icyatsi n'andi mato y'umukara, yambaye hejuru akenda kadafite amaboko kageze munsi y'ikibuno, ku kuboko kwe ahagana mu nkokora afiteho agakapu n'aho mu kundi kuboko kw'iburyo ari gukanda telefone, inyuma ye hari icyapa cyanditseho mobayilo mani taransifa emutiyene.

Imbere y'ibyapa bibiri bihagaze biteganye kimwe iiburyo ikindi ibumoso, handitseho amagambo ngo: "Ohereza unakire amafaranga ku murongo", gishushanyijeho umugabo ureba imbere wambaye umupira w'umutuku aseka, hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu ifite amaboko maremare, ufite mikoro uri kureba iburyo bwe.

Abantu benshi biganjemo abagabo, bahagaze mu cyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru. Imbere yabo hari intebe naho inyuma yabo hari ahantu hari ibyapa bifite amabara atandukanye, iyo nzu irimo parafo y'umweru n'amatara.

Amakurete abikwamo amagi arapanze amwe hejuru andi hasi ariko nta magi arimo, ateretse impande y'ahantu hari agatara gafite ibara ry'umutuku yaba ku maguru no ku dutanda turambitseho amakurete, hirya ahagana inyuma hari ikurete irimo amagi yamenetse.

Mu nzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ifite inkingi ziriho ibitambaro by'umweru hariho amatara hicayemo abantu mu ntebe z'umweru bari gukoma amashyi abandi bazamuye amaboko yabo hejuru, hari abafite ibitabo bari gusoma n'abandi bari kwandika.

Hagati y'ubusitani bw'ubwatsi bugufi buteyemo imikindo n'ibindi biti ariko bikiri bito bitarakura harimo akayira k'abanyamaguru, impande yako hari inzu y'igorofa isize irange ry'umweru, ifite ibyuma imbere bituma umuntu udahanuka isize amarange y'umukara.

Inzu y'igorofa isize ,irange ry'umweru, ifite amadirishya n'inzugi bisize irange ry'umukara, imbere hayo hariho ibyuma bifasha kohereza umwuka mwiza mu nzu. Imbere y'iyo nzu hari ubusitani buteyemo ibiti bimwe bifite amashami manini, naho ibindi bifite amashami mato. Naho hasi y'ibyo biti, hari ubusitani bw'ubwatsi buto.

Imbere y'umuntu wambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'icyatsi n'umukara uhetse igikapu. Hateretse amabase menshi yiganjemo ay'icyatsi n'ubururu. Mu ibasi imwe y'icyatsi harimo umurunga. Impande yawo hari imyeyo irambitse myinshi izirikishije utugozi tw'umukara.

Imbere y'ibaraza ry'inzu, ifite amakaro imbere aho mu rubaraza, n'inkingi yubakishije amatafari, hejuru isize irangi ry'umweru, mu ibaraza imbere yayo hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, kuhande rw'iburyo hari inzu yubakishije amatafari ifite uruhombo rumanutse imbere.

Mu muhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri, harimo umuntu utwaye moto ahetse undi. Yambaye inkweto zifunguye n'umupira w'amaboko maremare. Inyuma yabo hari abantu bari gusubira inyuma barenga, harimo uwambaye umupira wumukara n'undi wambaye umupira w'umweru. Impande y'uwo muhanda hari ibiti n'andi mazu mato arimo asize amarangi y'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru, ukikijwe na borodire z'umukara n'umweru, hari umuntu uri kuri moto wambaye umupira w'amaboko magufi urimo amabara y'ubururu n'umweru, arangamiye hakurya mu kayira k'abanyamaguru, ahari umugore uciye ku muntu uhetse umufuka kuri moto.